Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, arimo kuvugira kuri telefone, imbere ye hariho igikapu arimo kugenda akurura, imbere ye amagambo yanditse murimi rw'ikinyarwanda ngo tegura urugendo rwawe.

Umuntu, umwe, babiri, batatu. Abantu bakuru babiri, n'umwana umwe, imbere yabo hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngo hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe.

Abantu umwe babiri bose ni abagabo, inyuma yabo hariho imodoka ihagaze itarimo kugenda, bari imbere yaho, hasi aho bakandagiye hari amatafari ahiye ahashashe neza, hakurya hari ipironi ndende cyane ya rezo n'ibiti bihateye, biri hakurya byinshi cyane.

Mu nyubako mo imbere hasi harimo amakaro, hakurya hariyo amabati bigiye buharambitse, harimo ibintu bigiye bitandukanye by'amoko menshi, amandazi ari mu ndobo, harimo ibintu bifite ibara ry'ubururu byinshi cyane handitseho ngo inyange.

Urupapuro rw'umweru, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, imirongo imananuye n'itambitse igiye inyuranyemo, ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda n'ikindi cy'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda, hepfo bahasigiye umwanya wo gusinyamo.

Abantu babiri bari kugaragara ibiganza gusa, bari guhererekanya amafaranga atandukanye; umwe arimo kumuha inote zimwe undi izindi; zigiye zitandukanye, zitanahuye agaciro kamwe.

Amafaranga y'inote z'igiye zitandukanye harimo ibihumbi icumi, ibihumbi bitanu, bibiri igihumbi. Ni ayo mu gihugu cya Tanzaniya bakoreshamo ibiceri bihari bigiye bitandukanye.

Inyubako nini cyane igeretse, hariho amadirishya afite ibyuma, ikaba yubakishije amatafari ahiye, inkingi zifashe kuyo hasi. Hariho amatara hanze atarimo kwaka, n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, na nimero za telefoni zigiye ziriho.

Inyubako nini cyane yuzuye hasi harimo sima, hariho ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru bihateretse, ibintu bigiye bitandukanye, intebe zo kwicaraho, inkingi ziri ku rubaraza rw'inzu.

Ikigo kinini cyane cyubatse gishinzwe gutanga ubwishingizi bw'abantu n'ibintu byabo, cyubakishije amatafari ahiye, hariho amatara arimo kwakaho ibirahuri, inyuma yaho hakaba hariho ibiti binini cyane, ikirere kirimo gusa umweru, n'ubururu.

Inyubako nini cyane y'itaje, igeretse, harimo abantu benshi bahagazemo haba hasi no hejuru hagiye hakurikiyeho, bashungereye barimo kureba hasi, haparitseho imodoka; harimo imwe ishinzwe umutekano wo mu muhanda, uwambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda.

Isoko rinini cyane ryubakiye harimo abantu benshi bicaye n'abahagaze, ibicuruzwa biri hejuru ku meza bigiye bitandukanye inyanya, ibitunguru, intoryi n'avoka n'imboga.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka zirimo kugenda, abamama n'abana bambaye imyenda y'ishuri barimo kugana ku ishuri, hakurya yaho hariho inzu nini cyane hubatse, zigiye zifite amarangi agiye atandukanye.

Inyubako nini cyane ikiri nshyashya, mo imbere harimo imifuka igiye irimo amakaro ari hasi, inzugi zifunguye, hubakishije amatafari ahiye imbere yaho hariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ahanditse.

Inyubako nini cyane yuzuye, ifite igisenge, imireko imanura amazi hasi, imbere yaho hakaba hariho ikintu kigaragaza amashusho yo hanze y'igihugu mu mahanga bita Canal, hariho ibyatsi baconze neza, biri imbere yaho, hakaba hariho n'umuntu umwe, uyihagaze imbere.

Inyubako nini cyane ya etage igeretse, iteye irangi, hariho ibirahure byinshi cyane nabyo bisa ubururu n'umweru, hasi harimo imodoka ihagazemo itarimo kugenda yubakiye hejuru, ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru mwinshi cyane.